Umugabo ari ku cyubakwa ari hagati y'amahombo atwara amazi afite umucanga mu ntoki yambaye ishati yumweru n'ipantaro yazinze. Imbere ye hari ikidendezi cy'amazi.

Uducupa tw'imiti turi mu mabara atandukanye; umukara, umweru, dufite imifuniko itandukanye, umuhondo, umukara ndetse n'umweru, dufunikishijwe amasashi.

Umugabo wambaye ipantaro yazinze, wambaye isengeri n'ingofero, afite isuka ari guhinga. Iruhande rw'umurima ari guhingamo, hahinnze amadegede, ruguru y'ayo madegede hari akazu kagizwe n'imiryango ibiri.

Ishyo ry'inka ziri mu rwuri, inka z'amahembe izindi zitari iz'amahembe, hari utunze urutoki yerekana imwe muri zo.

Inkoko zo mu bwoko butandukanye inkokokazi ndetse n'amasake, biri mu nzu byororerwamo ndetse hari ibikoresho zinyweramo amazi.